Abanyeshuri biga ibijyanye n'ubuzima, bagiye i Nyabageni gushishikariza abaturage ndetse no gufata abaturage ibipimo bigiye bitandukanye, bikabafasha kumenya uko ubuzima bwabo buhagaze.

Robine rusange y'abaturage, aho abantu baza kuhavomera amazi bakaza kubona ayo bakoresha mu buzima busanzwe, bari koga, bateka, cyangwa se bakora indi mirimo yo mu rugo, hari abana baje kuvoma, kugira ngo bajyane iwabo amazi, umwe ari gucunda inyuma kugira ngo amazi aze, undi ari imbere ari kuvoma.

Muganga ari gutanga serivisi ku babyeyi baza bazanye abana, akabakira neza bagahabwa serivisi ziboneye zifasha abana ndetse bikanabashishikariza kujya begera muganga, igihe bahuye n'ikindi kibazo.

Ivomero rusange by'abaturage, aho buri muturage aba yaza akavoma amazi akaba yabona ayo akoresha mu buzima busanzwe, umwana ateretse ikibido kuri robine ku ivomero, undi nawe ari kumusunikira inyuma kugira ngo amazi abashe kuza bityo bigatuma babona amazi.

Inama yitabiriwe n'abaturage bagiye batandukanye, bavuye made n'impande, baje kumva impuguke mu bijyanye n'ubuzima aho bari kubagira inama zigiye zitandukanye zo ku buzima ndetse na bo bikaba byazabafasha mu buzima busanzwe.

Abantu bagiye bafite inshingano zitandukanye mu nzego z'ubuzima, bahurira hamwe bakiga ku bintu bijyanye n'ubuzima n'impanuro ziva kuri RBC, ikigo gishinzwe ubuzima.

Ku mavomero rusange y'abaturage aho abaturage bajya kuvoma amazi bakayifashisha mu bintu bigiye bitandukanye mu mirimo yo mu rugo, batuma abana kujya kuvoma bityo bakabazanira amazi bakaba bayifashisha mu mirimo isanzwe yo mu rugo.

Abashinzwe ubuzima zo ku rwego rwo hasi bahuye n'inzobere mu bijyanye n'ubuzima bariwushyiraho morale babaha impanuro cyangwa se impuguro ku bijyanye n'ubuzima, bityo bigatuma babasha kwesa imihigo mu bijyanye n'ibyo baba bariyemeje.

Kwa muganga hagenda haza urujya n'uruza rw'abantu bagiye batandukanye baza kwaka serivise z'ubuzima, aho muganga na we aba ari bugufi, akamuha serivise zigiye zitandukanye bitewe n'iyo yaje asaba cyangwa ibona imukwiriye.

Inzobere ku bijyanye na Maribaga virusi, bari imbere y'imbaga nyamwinshi ,bari kwigisha, ukuntu bahagarika gukwirakwiza Mabaga mu bantu, abandi na bo barabakurikiye, bityo bigatuma babasha kwirinda uko bakwirakwiza Mabaga mu buryo batazi, cyangwa babusobanukiwe.

Mu cyumba cy'inama kirimo abahugukiwe cyangwa impuguke mu bijyanye n'ubuzima, bari gutanga amabwiriza cyangwa se uko ibintu bikwiye gukorwa, babiha abaturage imbaga nyamwinshi, barabakurikiye, bari kumva uko ibintu bimeze na bo ngo bazabishyire mu bikorwa.

Imbere y'imbaga nyamwinshi, hari impuguke mu bijyanye n'ubuzima, bari gutanga ibiganiro ku bijyanye n'ubuzima; abandi bicaye babakurikiye, bose bari kumvira hamwe ijambo rya Minisitiri w'Ubuzima.

Umuganga uri gufata ibipimo by'abaturage bamugannye, ibipimo by'umuvuduko w'amaraso ndetse n'uko umutima utera, bityo bigatuma abantu bose, ubuvuzi bubageraho mu buryo bworoshye.

Abaturage bicaye ahantu hamwe mu cyumba cy'inama bafite udukayi bari kugenda bandikamo ibyo bari kumva bakabasha kuba bagenda bikurikiza mu buzima busanzwe, imbere yabo hari abo bakurikiye.

Inama yitabiriwe n'urujya n'uruza rw'abantu benshi, b'inzobere mu bijyanye n'ubuzima, bari kwiga ku bintu babona nk'imbogamizi mu buzima mu nzego z'ubuzima, ibyo bakabiganiraho, bakareba umwanzuro wabyo bakareba n'ibigenda neza, uko byakwiyongera.

Ivomero rusange ry'abaturage, aho umuntu ari gukaraba mu biganza kuri iyo robine rusange, hirya hari ikidomoro bavomeramo amazi, hakurya hakaba indobo na yo bavomeramo amazi.

Kwa muganga igihe umurwayi agiye kubagwa, hagomba kuba hari abaganga bagiye batandukanye, kugira ngo bafatikanye babe babasha gusigasira ubuzima bw'uwo murwayi.

Umwana wambaye impuzankano z'ishuri, iniforume y'ishuri ari ku ivomero riri ku kigega yashyizeho igikombe ni cyo kiri kugwamo amazi ari kuvoma...

Ivomero rusange ry'abaturage aho abaturage baza kuvoma amazi, bakayakoresha mu ngo mu mirimo igiye itandukanye, hari umukecuru waje kuvoma aha azanye ijerekani bityo natwara amazi aramufasha mu mirimo isanzwe yo mu rugo.

Abana ku mashuri baba baratojwe ko bakwiye gukaraba igihe cyose avuye kuri toilette ndetse banasa nabi, amakandagira ukarabe agiye ari ahantu hatandukanye mu kigo. Bityo bigatuma babasha kwirinda uburwayi butandukanye buturuka ku mwanda.

Kandagira ukarabe zigenda zishyirwa mu ngo, zigenda zifasha abantu, gukaraba intoki, bakirinda umwanda ndetse no kuwukwirakwiza, bityo bakirinda indwara zimwe na zimwe zirimo inzoka n'izindi ziterwa n'umwanda.

Abaturage bagiye batandukanye bicaye mu nama, mu cyumba cy'inama, aho bakurikira umuntu uri kubaha amabwiriza y'ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Igishushanyo cyafotowe muri radiography, cyerekana uko amenyo ameze ndetse n'imbere y'amazuru, ukaba wagikoresha mu kumenya indwara y'umuntu cyangwa se kumenya ubuzima bw'umuntu uko bumeze kwa muganga.

Abana bambaye impuzankano y'ishuri, bafite uburoso, buri umwe wese ari kugenda aborosa mu menyo, bityo bikabarinda kuba bahura n'indwara zimwe na zimwe zifata amenyo, mikorobe zitandukanye zigenda zikihomeka ku menyo, zigatuma amenyo yabo acukagurika cyangwa agahura n'ibindi bibazo by'amenyo.

Muganga ari gukurikirana amenyo y'umwana areba ubuziranenge bwayo cyangwa se anareba indwara zaba zaratatse uwo mwana, umwana bamubumbuye akanwa bari kugenda bareba ikibazo icyo ari cyo cyose cyaba kiri mu kanwa k'uwo mwana,

Hari abakoresha uburyo bwo gukoresha akadodo, Bakuramo imyanda iri hagati y'amenyo bityo bikaborohereza kwivura uburwayi bugiye butandukanye bw'amenyo yaba kubora kw'amenyo cyangwa se kuba yacukagurika bitewe n'amikorobe agiye atandukanye.

Hari uburyo bwiza bwo koza amenyo ukoresheje akadodo kugira ngo ukure imyanda iri hagati y'amenyo, imwe uburoso buba butakuramo, bikagufasha kubungabunga amenyo yawe, ukirinda indwara zigiye zitandukanye zava ku kugira umwanda hagati y'amenyo.

Umusaza n'umukecuru bageze mu gihe cy'izabukuru, bari mu myaka yo hejuru, bicaye ahantu hamwe, bari kurebera hamwe amabwiriza y'imiti baba bafata, bikabafasha kuba bakwirinda ingorane zimwe na zimwe ziterwa no gufata nabi imiti.

Hari abakecuru bo mu byaro usanga bagiteka ku mashyiga, bagaterekaho isafuriya bagateka bakoresheje ibishangara cyangwa se ibyatsi baba baragiye bumisha bivuye mu bintu bitandukanye.

Inzu irimo abantu bihurije hamwe bakiga imyuga yo kuboha, buri umwe umwe ari kwigira ku wundi, bigatuma bungurana ibitekerezo ku mwuga biyemeje, bityo bikaba wabateza imbere.

Ikirango cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC kiri mu ibara ry'ubururu, umuhondo n'icyatsi n'ikirango cyerekana kwirinda sida n'uko wayivura mu Rwanda.

Abanyeshuri bambaye impuzankano n'abayobozi babo bari kugenda bigisha ukuntu urubyiruko ari rwo rw'ahazaza h'u Rwanda, babashishikariza kwirinda SIDA banipimisha buri munsi, bityo bigatuma urubyiruko rugenda rushishikarizwa kumenya uko ubuzima buhagaze ku bijyanye no kwirinda ndetse no kwipimisha SIDA.

Umuntu urwaye diyabete agira ibimenyetso bigiye bitandukanye, harimo kugira inyota nyinshi idasanzwe, kunyara cyane bidasanzwe, kumva unaniwe ndetse no guta ibiro mu buryo budasanzwe.

Mu cyumba cy'inama hahuriye urubyiruko rwaturutse impande n'impande, aho bari kuganira ku bijyanye n'ubuzima, bakavuga ibyo babona ndetse n'imbogamizi n'ibibazo, bakabasha kubiganiraho n'uburyo byakemuka.

Kwa muganga hari ubwo biba ngombwa ko abaganga bahurira hamwe muri serivise imwe kugira babashe gufasha umurwayi mu buryo bworoshye, bityo bigatuma umurwayi abasha kubona ubuvuzi cyangwa se serivise nziza kandi inoze.

Hari urukingo rwa Yellow fever, bari kugenda batanga, abantu batandukanye bagenda bagana ibigo nderabuzima bakabasha guhabwa urwo rukingo ku buryo bworoshye, bakabafasha kuba bakwirinda iyi ndwara ya Yellow fever.

Inzu y'ababyeyi tuzi nka maternete, aho ababyeyi bajya bagahabwa ubufasha, bagiye kubyara cyangwa se babyaye, imbere yaho abaganga bane, niho bari, bambaye udupfukamunwa ndetse n'amabaji yerekana imirimo yabo, bameze neza.

Ibitaro by'Akarere ka Nyarugenge byubatse mu nyubako ya kijyambere bifite n'ubusitani bwiza bw'icyitegererezo, burimo ibintu bigiye bitandukanye ibirimo ibiti, indabo n'ibindi.

Umuganga w'inzobere mu gukoresha ibyuma bifotora ibice by'imbere umuntu atabonenesha amaso nk'amara, igifu n'ibindi bigiye bitandukanye, ari gukoresha icyo cyuma.

Inyubako ya Sangwa Polyclinic iyi ya etage igizwe na floor ebyiri na basement imwe ifite ibyumba bigiye bitandukana byo kwakiramo abarwayi hanze parking aho imodoka ziparika baje kwivuza.

Ibitaro by'amaso, bifite inyubako ngari yo kwakiriramo ababigana, baje kwivuza amaso, bagahabwa ubuvuzi ku mu buryo buboroheye ndetse no hanze hari ikibuga cyisanzuye, aho waparika imodoka mugihe waje kwivuza, cyangwa se naho abaguherekeje baba bari mu buryo buboroheye, bakabasha kubona ibyabagoraga.

Abanyeshuri biga ubuvuzi, bari muri labo, mu nzu yahariwe kwigiramo ama experiments, bari kugenda umwe akora undi akareberaho, bityo bikabafasha kumva ibyo bari kwiga, bikanaborohereza kuzakora neza umwuga wabo.

Ibitaro bya Butare bitanga serivisi zubuzima zita cyane cyane ku barwayi bafite kanseri, byasuwe n'impuguke mu bijyanye n'ubuzima, noneho bateraniye hamwe bari gufata amafoto nyuma yo gusohoka.

Mu bigo nderabuzima cyangwa ibitaro umuganga aba ari mu cyumba ategereje umurwayi ngo amuhe serivise, cyangwa akamusanga aho ari mu byumba akamwitaho amufasha mu buryo ashoboye.

Ikigo nderabuzima cya garerefite inyubako ngari ifite ubusitani butizengurutuye, ahantu hose rufite imbuga ngari aho abarwayi cyangwa abateganarana bashobora kwicara mu gihe bari kuruhuka, natesolafano ikurura izuba bakaba babikoresha mu buryo bw'amashanyarazi bigatuma ubuvuzi cyangwa serivisi zabo zigenda neza.

Mu icyumba cyo kwa muganga, aho bashyira abarwayi igihe babona ko barembye kugira ngo muganga abashe kubitaho. Muganga ari kugenda asura abantu barwariye muri ibyo byumba, akabaha ibibagenewe, akabaha imiti. Akagenda areba buri kibazo umuntu uryamyemo afite akabasha kugikemura.

Ku kigonderabuzima cya Nyarurenzi, gitanga serivisi z'ubuzima, cyakira abantu batandukanye bafite uburwayi butandukanye, ni kigari gifite ahantu henshi ho kwakirira abakigana, kigizwe n'inyubako ya etage, hejuru hari inyubako no hasi hakaba indi, hose hakirirwa abantu baje bakigana.

Ikigo nderabuzima cya ya Gisenyi, Gisenyi health center, ni kigari aho abantu bakirirwa ni hagari, kegereye umuhanda, bituma abaturage babasha kukiyoboka mu buryo bworoshye, gifite ahantu hagari ho kwakirira abarwayi ndetse n'abaganga bahagije bo kubitaho.

Muri iyi siporo hari ibikoresho bigenda bikenerwa, urugero nka Stethoscope yo gubipima uko umuvuduko utera. Ndetse n'amabaro agiye atandukanye n'udutenesi. Bityo bigatuma ubasha gukora siporo neza ndetse bikanakumenyesha uko umutima wawe umeze, ukoresheje icyo gikoresho cyitwa Stethoscope.

Igikoresho kizwi nka Stetosikope gikoreshwa na muganga mu buryo bwabugenewe agafata ibipimo by'uko umutima utera ku murwayi, akumvisha ugutwi kwe uko umutima ugenda.

Inzobere mu by'ubuvuzi, binjiye aho abarwayi barwarira, baryama bategereje ubufasha bwa muganga, bari kubasobanurira ibintu bijyanye n'ubuganga ndetse n'ubuvuzi bityo bigafasha abaturage kumva akamaro k'ubuvuzi ku buzima bwabo.

Umuntu uri muri siporo yambaye kuteri, ari kunywa amazi ndetse bikamugabanyiriza icyaka ndetse bikamusubizamo n'imbaraga. Sibyo gusa kuko amazi ni meza ku mubiri, atuma imyanda iri mu mubiri ibasha gusukurwa neza mu mpyiko, bikanagufasha kumererwa neza ukumva umeze neza.

Umuganga uri imbere ya mashini ari kwambara agapfukamunwa kugira ngo aze kwirinda indwara zakwandura zivuye ku wundi harimo nk'ibicurane, covid nineteen n'izindi ndwara zigiye zitandukanye.

Kwa muganga uhasanga ibyuma by'ikoranabuhanga, bibasha gufotora ibice bimwe na bimwe byo mu mubiri bitabasha kugaragarishwa amaso, aho muganga akoresha ifoto yatanzwe n'ibyo byuma, akaba yabasha kumenya uburwayi bw'umurwayi.

Mu buzima umuntu aba akeneye siporo ngororamubiri kugira ngo abashe kugorora ibice bye by'umubiri, anirinde indwara zigiye zitandukanye. Nka diyabete, umuvuduko w'amaraso ndetse n'imitsi ikagororoka ukirinda za rubagimande.

Gukora siporo bifasha umuntu uri gukora siporo kuba byagabanya stress, bigafasha inzira y'igogora, bikagabanya umuvuduko w'amaraso bityo amaraso akabasha gutembera neza ndetse bikanatwika ibinure.

Ibyatsi bino tugenda tubona mu buzima busanzwe bikorwamo ibintu bigiye bitandukanye by'ingenzi ku buzima nk'amavuta yo guteka, ayo kwisiga ndetse n'ibigize n'ibikoreshwa mu gukora ubuki.

Isoko rusange ry'abaturage ririmo imbuto, ririmo ibintu bitandukanye bya gakondo bikorwa mu byatsi ndetse abantu benshi babasha kuhagana bakabona ibyo bari bakeneye mu buryo bworoshye, babafasha mu buzima bwa buri munsi.

Ibyatsi bigiye bitandukanye, mu buvuzi bwa gakondo bagenda bakoresha nk'amatungurusumu, inturusu n'ibindi byose bigiye bitandukanye. Abantu bakoresha kugira ngo bagumye gusigasira ubuzima, bakoresheje ibyatsi cyangwa se ibindi bintu tubona byimeza hano hafi mu buzima busanzwe.

Hari amavuta cyangwa isabune biva mu bikakarubamba, aho ibikakarubamba bisoromwa, bikajyanwa mu nganda, bigatunganywamo ayo mavuta aba ari meza ku ruhu.

Icyatsi kizwi nk'umuravumba, gikoreshwa mu gukora imiti igiye itandukanye ya gakondo, gifite umumaro munini ku buzima bw'umuntu, harimo nko kuvura inkorora, kuvura n'izindi ndwara zigiye zitandukanye.